Abana bari ku mugezi, baje kuvoma, urabona ko ari ya migezi bapompa kugira ngo amazi aze, abana rero bagiye kuyavoma, bitwaje amabido, umwe ari gupompa, abandi bitegereza uko bimeze, ariko uko bigaragara nta jerekani bashyizeho.

Kwa muganga umubyeyi yaje gukingiza umwana we, kumufatisha inkingo, hari abandi bahicaye bari kurebera, ariko bisa nkaho uyu muganga ari uwa magendu kuko ntabwo yambaye ibiranga ko ari umuganga wa leta.

Bigaragara ko hano ari mu nama, umuyobozi ari imbere abandi bicaye imbere ye, agenda ababwira, bigaragara ko hari byinshi bari kuvuga, ndabona uducupa tw'amazi ndetse n'ibikapu.

Abanyeshuri barishimye, ni abanyeshuri bo mu Rwanda hari idarapo, abana bambaye udushati twiza twa buresiyeri bafite isuku, ndabona amashuri, ndabona ibiti mbese barasa neza.

Ndabona umurwayi wo mu mutwe ,umurwayi wo mu mutwe mu Rwanda dukunda kumwita umusazi yambaye imyenda yacitse ibikweto n’ibindi yagiye atoragura inyuma ye hari imodoka ndabona yanisize yanisize ibintu by'imikara.

Kwa muganga na none ndabona muganga asa naho akura amenyo uyu uryamye ku gitanda, muganga yambaye agapfukanwa, yambaye rinete ndetse ndabona n'imashini akoresha umurimo we.

Uyu mudamu arimo kano kagozi ari gukoresha kari nako koza amenyo ari gukoresha akagozi yoza amenyo kugirango ase neza murabona ko asa neza rwose.

Iki ni icyapa kijyanye no kurwanya korona harimo gukaraba, harimo gufata ibipimo, harimo kwambara udupfuka munwa, gushyiramo intera, akato, ndetse no kurya imbuto.

Hagaragara ifoto isa naho ari iy'ikirangantego cyanditseho health people Rwanda. Igaragaza ko ari ikimenyetso cy'ubuzima bw'abaturage mu Rwanda.

Ndabona inkingo za Monkey Pox, ni icyorezo cyari cyateye mu Rwanda kica abaturage batari bakeya, ariko kubera runo rukingo rwabonetse tuza kugihashya.

Ndabona ibikoresho bigiye bitandukanye bya elegitoronike cyangwa se ibikoresho bigezweho harimo ibitanda, utubati, amateleviziyo, kompiyuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu bitaro harimo ibitanda by'abarwayi, harimo n'ibindi byuma byifashishwa mu kuvura, harimo, ndabona ari ari ahantu hateguye neza hejuru harimo n'amatara asa n'aho atariri kwaka.

Aha naho ni abarwayi barwariramo, ni inzu yo ku bitaro yakira abantu barwaye abo aribo bose kuko handitseho ngo ninomenti otopashiyeti senta.

Ni kwa muganga handitseho Sipoti medesine senta, byumvikane ko ariho abaganga bafasha ibintu bijyanye na siporo cyangwa se imiti ijyanye no gukora siporo.

Aha ni ku bitaro, ku nzu y'ababyeyi n'impinja, byumvikane ko ariho ababyeyi babyarira abana, igihe batwite ni ho bajya kubonana na bamuganga bakababyaza.

Umusore uri kunywa amazi ameze nk'umuntu uvuye muri siporo, yambaye agakomo k'icyatsi urabona ko ari umusore wateruye yambaye isengeri y'umukara n'ubwanwa bwinshi.

Umukobwa ari muri siporo ngororamubiri hari udukoresho afite imbere tumeze nk'utwariteri dutoya ariko hari na kompiyuta bisa n'aho ari kureberamo ibyo agenda akora imuyobora, iruhande rwe ndabona intebe n'utuntu tumeze nk'uturabyo.

Iki ni ikirangantego kigaragaza abakinnyi bakina jido, kuko ku kirangantego handitseho Rwanda Judo Federation, kigaragaza rero ko aho ari aho bitoreza iyo mikino njyarugamba.

Ndabona uducupa tw'imiti twanditseho stopeyini n’andi magambo asa n'aho atagaragara ariko bishobora kuba ari imiti ivura kandi indwara zigakira vuba.

Umuganga ari gufasha umuntu usa naho yavunitse, arimo aramuvura dore yamwambitse akantu gafatanya ikirenge n'ukuguru, yavunitse arimo aramuvura yicaye ku gitanda.

Ndabona ukuguru gusa n'aho kwavunitse, umuntu bisa n'aho ari kwikanda, yambaye impeta, yambaye agakoma ku ntoki, urabona ko ari umusore wateruye umeze neza, akantu k'umukara yambaye ku maguru bigaragara ko atameze neza.

Ndabona iyi foto imeze neza cyane igaragaza icyuma cy'imiziki abadije bakunda gukoresha, urabona ko ari icyuma bakunda gukoresha mu bitaramo, mu birori ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ndabona icyapa cyanditseho alowe sayansi kansa, ndetse cyanditseho foreva memba sipoti rimitedi, n'icyapa gishobora kuba kiranga ibintu biri mpuzamahanga.

Hano hari amavuta ari mu bwoko bwinshi, hari nk' yitwa foreva layiti yutira, hari ayitwa foreva fiba n'ayandi ari mu bwoko bunyuranye.

Ndabona ibyatsi n'umuntu ubifite wambaye ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, ari hagati mu bihuru bisa naho ari guca umuti, muti wa kinyarwanda.